Umuganga aho ariguha ibinini abarwayi baje bamugana, ndetse hakaba hari n'abandi bantu bari kubafotora.

Abaganga benshi bambaye impuzankano yabo, ingofero mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa, aho bahagaze imbere y'umurwayi, bakaba bari kumuvura bisa nkaho umurwayi arembye cyane.

Abantu baje ku mugezi kuvoma amazi, aho hariho umumama umwe ndetse n'abana batatu, aho akana kamwe gatoya ari ko kari imbere, kari kuvoma amazi, hakaba hari undi kandi, uri inyuma urimo kumanura igikoresho cy'umugezi kugira ngo amazi aze n'undi uhagaze ku ruhande.

Abantu benshi baje kuvoma mazi ku mugezi, aho imbere hahagaze umwana ndetse n'umumama witwikiriye umutaka.

Abana benshi bateraniye hamwe aho bicaye bose bari kurebana kandi barambirije amaguru, imbere yabo hakaba hari abarezi babo bari kubagira inama.

Abaganga bagiye batandukanye, harimo abambaye amataburiya ndetse n'abatayambaye, aho bari kwifotoza hanze imbere y'ibitaro bose bari kumwe.

Umumama waje kuvoma ku ivomero rusange, aho yazanye ibijerekani byinshi, akaba ategereje kugira ngo ibivido bye byuzure, bityo abashe gusubira iwe.

Abanyeshuri batanu bari ku mugezi, aho baje gukaraba intoki zabo ndetse no kunywa amazi, bakaba bahagaze ku mugezi bari kurebana, ubona ko bishimye cyane.

Abantu batandukanye aho bose bambaye udupfukamunwa, bakaba bari mu nama ku bijyanye n'ubuzima aho bose bacecetse, bakaba bakurikiye batuje.

Abana babiri bari ku kumugezi, bakaba bose basutamye barimo gukinisha amazi bagenda bayakubita bakoresheje ibiganza byabo.

Abana benshi bari ku mugezi wabo wo ku ishuri, bakaba baje gukaraba intoki, ndetse no kunywa amazi. Bose bakaba bambaye inifomu ibahuza.

Amazi menshi ari guturuka mu gihombo, akaba ari kumeneka, hakari hari kandi umuntu urimo kuyakaraba.

Umu mama waje kuvoma amazi ku mugezi, akaba yazanye indobo, kandi afite n'uruhinja mu ntoki.

Umumama aje kuvoma amazi kuri robine, aho yazanye ikijerekani, akaba ategereje ko amazi yuzura ngo abone gusubira i muhira.

Abantu baje kuvoma amazi ku mugezi rusange, akaba ari umunyeshuri umwe uhagaze hejuru y'umugezi aje kunywa amazi, ndetse n'undi mwana wazanye akabido akaba ari kuvoma.

Abayobozi batandukanye, barimo aba mama, aba papa, ndetse n'abandi, aho bateraniye hamwe, bicaye, barimo baganira ku kibazo kijyanye n'ubuzima.

Umumama uvuye kuvoma amazi, akaba afite indobo imwe ku mutwe ndetse n'indi mu ntoki, akaba akenyeye igitenge ndetse yambaye n'agashati k'ikigina.

Abamama bari ku mugezi, aho babiri bari inyuma y'umugezi, bakaba bari gufatanya kugira ngo bamanure icyuma cy'umugezi bityo amazi abone kuza. Hakaba hari undi umwe kandi uri imbere uri kuvoma.

Abayobozi, bari mu inama, imbere yabo, hakaba hari, imashini, ndetse n'amazi bari kunywa, hakaba kandi hateretse, indabo, nziza cyane, bose bari mu inama, kubijyanye, n'ubuzima, ndetse n'imibereho, ya buri munsi, ya muntu.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ubuzima, aho bari hamwe mu nama, imbere yabo hakaba hari imeza nini ndetse ziteretseho n'ibikoresho byabo hariho nk'imashini, amazi bari kunywa ndetse n'ibindi, bakaba bari mu nama ku bijyanye n'ubuzima.

Abaganga bari kwifotoza bari hamwe imbere y'ibitaro, ubona ko bavuye mu nama, hejuru yabo hakaba handitseho ngo:" Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu."

Ibitaro birimo kubakwa, aho barimo bagenda bashyira amabuye muri ibyo bitaro bakayatondeka neza, ubona ko bagiye kuhashyira sima.

Abayobozi bicaye imbere y'abaturage, aho bose bambaye udupfukamunwa, hakaba harimo abapapa ndetse n'abamama, aho bari kugeza ku baturage inama ku bijyanye n'ubuzima.

Umugore w'umuzungu ufite mikoro, akaba ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima. Akaba ari umugore wambaye aga t-shirt, akaba afite imisatsi myinshi ndetse n'isaha ku kuboko.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga kugira ngo bamusuzume barebe indwara arwaye bityo babe bamuha umuti wo kumufasha.

Umwana uri kudaha amazi mu kiyaga, hakaba harimo amazi menshi, akaba kandi yazanye akabido ariko ari kudahisha.

Abamama bari ku mugezi, bakaba baje kuvoma bitwaje indobo, aho ari abamama benshi, bakaba baje gutwara amazi yo kujya kwifashisha mu rugo iwabo.

Umwana uri kunywa amazi akoresheje intoki ze kuri robine, hasi kandi hakaba hateretse n'ibase ubona ko yaje kuvoma amazi bajya gukoresha iwabo mu rugo.

Abayobozi barimo kwifotoza, bamwe bicaye imbere y'abandi, abandi bahagaze inyuma, aho hari abayobozi bagiye batandukanye, harimo abapapa ubona ko aribo biganjemo ndetse n'abandi.

Ababyeyi bavanye abana babo kwa muganga kugira ngo bitabweho, bahabwe ibyangombwa byose kugira ngo bakure neza, imbere yabo hakaba hagaze umumama umwe ufite umwana we mu ntoki, akaba kandi afite n'igipande bamupimiraho.

Abanyeshuri bari gufata ifunguro, bakaba bicaye mu ishuri bari kurya ibiryo bigizwe na kawunga ndetse n'ibishyimbo.

Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima aho bateraniye hamwe kugira ngo bige ku kijyanye n'ubuzima, imbere yabo hakaba hateretse ubucupa bw'amazi ya Nile, bari kugenda basomaho ndetse n'amakayi cyangwa document bari kwandikamo imyanzuro.

Sale iberamo inama ku bitaro, aho hanze yayo hariho abaganga benshi bari kumwe bakaba bari kwifotoza bavuye mu nama.

Abana baje kuvoma amazi ku mugezi, bakaba bazanye utubido, aho ku mugezi kandi hariho undi muntu uri kubafasha kugira ngo bavome.

Abaforomo ndetse n'umuforomokazi aho bari kwifotoza bari kumwe bambaye imyenda y'akazi ndetse bambaye n'amakarita y'akazi, bakaba bari ku bitaro.

Ababyeyi benshi, bakaba bazanye abana babo kwa muganga, kugira ngo bitabweho, batewe inshinge, cyangwa bahabwe ibinini, kugira ngo babashe gukura neza.

Abamama babiri, bari kumwe, aho umwe ari gukorera undi indobo irimo amazi, bakaba kandi bahagaze ku mugezi, ubona ko umaze kuvoma.

Amapompo aba aririmo inshinge zifashishwa mu gutera inkingo, cyangwa imiti mu barwayi batandukanye.

Abantu benshi bari mu nama k'ubuzima aho imbere yabo hari abayobozi bahari, akaba aribo bari kubagezaho inama ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'imibereho.

Abayobozi batandukanye bo mu bijyanye n'ubuzima, aho bateraniye hamwe bicaye ku meza imwe kandi nini, aho bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye.

Umwana usutamye ku mugezi akaba arimo atega amazi n'ibiganza bye byombi kandi aseka, ubona ko bimunejeje cyane.

Umwana uri ku mugezi akaba arimo avoma amazi akoresheje igikombe, ubona ko agiye kuyanywa akaba kandi abyishimiye cyane.

Abantu barimo guterura imifuka iremereye, umwe bawushyira hejuru y'uwundi, aho harimo umupapa umwe, ndetse n'abamama babiri, aho bose bari gufatikanya.

Umugabo wagiye kwa muganga kwivuza, akaba ari kumwe na muganga uri kumukurikirana, aho uwo mugabo yasamye, muganga akaba ari kumusuzuma kugira ngo arebe ko nta kibazo afite mu kanwa.

Abantu bari ku mugezi bakaba babazanye ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane amabase, indobo ndetse n'ibibido, hakaba hariho umumama ufite umwana n'abandi bana bakiri bato bari gukina.

Umwana uri gukaraba mu kabase, akaba yambaye inifomu, ubona ko agiye kujya ku ishuri.

Umupapa ndetse n'umugore we, aho baje kwa muganga bakaba bari kumwe n'umuforomokazi aho ari kubagira inama kubijyanye n'ubuzima.

Abaturage bose bambaye imyenda y'umweru, bakaba baje mu nama ku bijyanye n'ubuzima, aho bose bicaye kandi batuje, bakaba bakurikiye ibiri kuhabera.

Abana babiri bari mu ishuri, aho umwe amanitse ukuboko hejuru bisa nk'aho ashaka gusubiza ikibazo mwarimu yabajije.

Abakozi bo mu nzego z'ubuzima, aho bose bari mu ihema, aho bari gukoma mumashyi ndetse bagacinya no mu kadiho, bisa nkaho hari ikintu bishimiye cyangwa ikirori bakoresheje.

Umwana urimo akaraba amazi kuri robine, arimo arayishyiraho mu mutwe ndetse no mu maso, kandi aseka, ubona ko abyishimiye cyane.

Umwana waje ku mugezi kuvoma, akaba afashe ku mugezi ndetse akandi kaboko gafashe no ku kijerekani cye kugira ngo avome neza.

Abantu baje kuvoma ku ivomo rusange, aho bazanye ibipido byinshi, bakaba babiteretse bategereje ko babona amazi, hakaba harimo abana ndetse n'abamama, aho imbere ku mugezi hahagaze umumama umwe uri kubafasha kuvoma.

Umwana uri gukaraba intoki, akoresheje amazi, meza ndetse n'isabune, kugira ngo yirinde indwara, zitebwa n'umwanda.

Abana babiri bari ku mugezi bakaba bazanye indobo kuvoma ndetse umwe akaba kuvoma mu gihe undi agitegereje kugira ngo nawe aze kuvoma mukanya.

Abantu benshi, kandi bari mu kigero gitandukanye, aho bateraniye mu nama, baje kureba abaganga b'inzobere, kugira ngo babagire inama, ku bijyanye n'ubuzima, ndetse n'imibereho yabo.

Umwana uri kuri robine rusange, akaba ari kunywa amazi akoresheje intoki ze, imbere ye hakaba hateretse intebe ndetse n'abandi bantu bari inyuma ye na bo baje kunywa amazi.

Imodoka nini cyane, isa nk'aho ari imodoka itwara imizigo, ikaba ifite amapine manini kandi na yo ari ndende cyane.

Abantu bari mu cyumba akaba ari abamama, aho bose bamanitse amaboko hejuru, bisa nkaho barimo bahimbaza Imana kandi bose bishimye.

Abana batoya cyane bisa nkaho biga mu mashuri y'inshuke, aho bambaye impuzankano ibahuza ndetse isa neza, bakaba rero bahagaze imbere y'abarezi babo kandi ubona ko babyishimiye kandi banezerewe cyane.

Umurwayi wagiye kwa muganga, muganga akaba ari kumupima amushyize igipimo cye ku kuboko kugira ngo arebe umuriro afite cyangwa umuvuduko w'amaraso ye.

Abakozi b'ikigo nderabuzima cya Mayange aho bari kubyina bacinya na kadiho, imbere yabo hakaba hariho umuzungu wahagaze nawe uri gukoma mu mashyi asa nkaho yaje kubasura.

Umusore ufite ikibazo cyo mu mutwe, aho yicaye hasi akaba yambaye uko yavutse nta mwenda n'umwe, ndetse nta n'inkweto yambaye.

Abantu baje kwa muganga kwivuza ndetse no kwisuzumisha aho ari abantu benshi ndetse bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Abamama babiri bari kumwe, bakaba bicaranye ku ntebe, aho umwe yipfutse agatambaro mu maso ubona ko yihebye, naho undi na we akaba ari kumugira inama.

Abantu benshi bari mu muhanda, bakaba bambaye imipira isa, umwe afite mikoro, ndetse harimo n'abapolisi, aho bafite icyapa cyanditseho ngo: Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Abaturage bicaye ku dutebe, harimo abamama batatu, umwana umwe ndetse n'umupapa, aho harimo abafite amakayi, bisa nk'aho bateraniye mu kibana.

Ababyeyi benshi bari kwa muganga, aho bari mu cyumba, imbere yabo hakaba hari umuganga urimo abasobanurira ku bijyanye n'indwara zitandukanye n'uburyo bazirinda.

Umugabo wegamye ku gikuta, akaba araramye ari kureba hejuru bisa nk'aho ameze nkufite ikibazo cyo mu mutwe.

Abayobozi b'ikigo nderabuzima cya Kacyiru, aho bari kwifotoza bose hamwe, bari hanze imbere y'ibitaro, harimo abapapa, abamama ndetse n'abandi, hagati yabo hakaba harimo kandi n'umupolisi uhahagaze.

Umumama uri gushigisha igikoma, akaba ari kumwe n'umwana we mukuru ndetse n'undi ahetse, akaba kandi yambaye n'agapfukamunwa.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yicaye mu muferege w'amazi arimo atoragura amashashi ndetse n'indi myanda irimo.

Umuganga uhagaze imbere y'abaturage, akaba ari kubagira inama ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'uburyo bakwikirinda indwara zo mu mutwe.

Abana benshi bari kumwe, ubona ko ni abana bambaye nabi ndetse batoya cyane b'inshuke, ubona ko bafite ikibazo kandi bakeneye ubufasha.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe aho yambaye imyenda ishaje, akaba kandi atambaye inkweto arimo agenda yihirika hirya no hino mu muhanda.

Abantu bari mu nama ku bijyanye n'ubuzima, aho harimo abasore n'inkumi, abapapa n'abamama ndetse n'abandi, bakaba bateraniye hamwe kugira ngo baze kumva ibiza kuvugirwa muri iyo nama.

Abayobozi benshi bo mu kigo cy'ubuzima aho bari kwifotoza bari hamwe hakaba harimo abapapa, abamama, abasaza n'abakecuru bakaba bose batonze umurongo ari benshi bari kwifotoza kandi ubona ko bibashimishije.

Umwana wagiye kwa muganga kwikuza amenyo, akaba ari kumwe n'abaganga babiri bari kumusuzuma kugira ngo babone kumufasha.

Abana barimo kuborosa amenyo yabo, bakoresheje uburoso ndetse na korogati, bakaba kandi bafite n'amazi mu ntoki, bose ubona ko bishimye.

Umuntu ufite utwuma agiye gushira mu menyo ye kugira ngo tubashe kuyagorora no gutuma aringanira bityo abashe kumera neza.

Umwana wagiye kwa muganga kwivuza amenyo, aho muganga arimo kumusuzuma akoresheje ibyuma byabugenewe, kugira ngo amuhe ubufasha bityo uwo mwana amererwe neza.

Umupapa wambaye agakoti k'ikoboyi ndetse n'agapira mu nda, aho arimo guseka, akaba afite amenyo meza, ubona ko ayagirira isuku kandi ayaborosa buri munsi.

Umumama ndetse n'umwana we, aho bose bari kumwe, bakaba bafite uburoso ndetse na korogati, aho bagiye kuborosa amenyo yabo kugira ngo bayarinde umwanda.

Umupapa w'inzobe, akaba arimo guseka afite amenyo meza y'umweru kandi yiteye agatambaro ku rutugu k'umweru.

Umuntu ufite igikoresho kirimo amenyo, akaba afite n'akandi kantu mu ntoki, arimo areba ukuntu bakorera isuku amenyo n'uburyo bayakura.

Umupapa wicaye, akaba arimo aseka, akaba kandi afite amenyo meza y'umweru, asa nk'aho ayagirira isuku.

Abaganga bicaye ahantu, bakaba barimo kwifotoza, bose bari hamwe, akaba ari abaganga bavura ibijyanye n'amenyo, ubona ko bishimiye kwifotoza.

Bimwe mu bikoresho bigezweho, byifashishwa na muganga ari kuvura cyangwa arimo akura amenyo, harimo nk'imashini z'ubwoko butandukanye, ndetse n'utundi dukoresho.

Umumama wagiye kwa muganga kwivuza amenyo aho abaganga babiri barimo kumwitaho bakoresheje ibikoresho byabugenewe, akaba aryamye igitanda nabo bicaye imbere ye barimo bamumusuzuma kugira ngo babone kumuha imiti.

Umuntu wagiye kwa muganga, kwivuza amenyo, aho umuforomokazi arimo kumuvura akoresheje utwuma twabugenewe.

Umuntu wagiye kwa muganga, kwivuza amenyo, aho aryamye ku gitanda, hakaba hari muganga urimo kumusuzuma.

Abaganga babiri bari kumwe aho bicaranye bose bafite amafishi y'abarwayi, imbere yabo hakaba hariho imeza iriho amazi yo kunywa n'ibindi bikoresho bari kwifashisha, umwe akaba ari kwandika ku ifishi.

Umwarimu uri imbere y'abanyeshuri, akaba ahagararanye kandi n'umunyeshuri umwe, aho ari kumwereka uburyo bwiza, bwo gusukura amenyo.

Abana bari mu ishuri bakaba bari kumwe n'umurezi wabo, bose bakaba bishimiye kuko bahawe korogati, ni kimwe mu kintu kizajya kirabafasha mu gusukura amenyo yabo neza.

Umupapa urimo guseka, akaba yambaye agapira k'umweru, arimo aseka, ubona kandi ko afite n'amenyo meza; ayakorera isuku.

Umumama mwiza, aho ari kwifotoza arimo aseka, ubona ko afite amenyo meza, kandi akaba ayagirira isuku.

Ibintu byinshi bitandukanye biboneka aho bakurira amenyo kwa muganga, nk'imashini zikoreshwa na muganga mu gihe ari gukura, intebe umurwayi yicaraho, ibinini ndetse n'utundi dukoresho twifashishwa n'abaganga.

Umuntu wagiye kwa muganga kwikuza amenyo, akaba yicaye ku ntebe yabugenewe aho muganga arimo kumukura akoresheje akuma kabugenewe.

Abana bari mu ishuri, bose bakaba bafite korogati ndetse bazimanitse hejuru ubona ko bishimye kandi banezerewe kuba bazihawe.

Umuntu wagiye kwa muganga, kwivuza amenyo, aho aryamye ku gitanda, abaganga babiri bakaba bari kumusuzuma kugira ngo bamuvure kandi n'imiti ishobora kumufasha.

Umugabo w'inzobe, wambaye ubusa hejuru, akaba arimo amwenyura afite amenyo y'umweru dede bisa nk'aho ayagirira isuku.

Umwana wagiye kwa muganga kwivuza amenyo, aho aryamye ku gitanda, muganga akaba arimo amufasha amwitaho ubona ko umwana arimo guseka yishimye cyane.

Ibitaro bivura amenyo, byubatse mu buryo bwa etaje igeretse gatatu, bikaba kandi byubakishije ibirahure, biri ahantu heza kandi bifite n'uruzitiro rwiza.

Umupapa uri kumwe n'umwana we mu rugo, bose bakaba bari kureba muri telefoni bisa nkaho umusaza hari icyo ari kwereka umwana we muri iyo telefone.

Umupapa n'umwana aho bari kumwe mu rugo, bakaba barimo kuganira batera urwenya kandi banaseka cyane.

Abamama batatu aho bari kwifotoza bose bari hamwe, bakaba barimo baseka ubona ko bibashimishije cyane.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe mu rugo, aho umusaza ari kunywa amazi ayakuye mu karahure mu gihe umukecuru ahagaze imbere ye.

Abantu barimo gukora siporo akaba ari umugabo ndetse n'umugore, aho umugabo ari gukora siporo yo kugenda ku rubaho rumeze nk'uruhagaze, akaba ari kuruzamukaho.

Umumama uri gukora siporo, akaba ari kuyikorera ku kantu kabugenewe, apfukamishije amaboko ndetse n'amaguru agenda amanuka kandi anazamuka kugira ngo agorore umugongo.

Umumama ukuze, aho ari iwe mu rugo, akaba afite isahani iriho ibiryo, bigizwe n'imboga utubuto ndetse n'ibindi, akaba agiye kubirya kandi ubona ko anezerewe.

Umuryango uri kwifotoza wose uri hamwe, harimo papa, mama ndetse n'abana, aho bari bamwe ndetse bakaba bishimye.

Umuforomokazi uri kumwe n'umupapa urwaye umugongo, uwo mupapa akaba afite igikoresho kimufasha kugira ngo kimurinde kwangirika mu gihe ari kugenda cyangwa gutembera.

Umusaza n'umukecuru, aho bari mu rugo bakaba barimo bakina umukino utuntu bagenda bagerekeranya hejuru ku meza, ubona ko babyishimiye kandi bibanejeje cyane.

Umwana uri kumwe na mama we ugeze mu zabukuru mu rugo, aho ari kumufasha gutegura amafunguro kugira ngo mama we akomeze kumererwa neza, muri ayo mafunguro kandi hakaba harimo imboga, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Umuforomokazi uri kumwe n'umukecuru, aho ari kumuha imiti mu ntoki, umukecuru kandi akaba afite amazi agiye kunywesha iyo miti kugira ngo igende neza.

Abamama babiri bambaye imyenda ya siporo, bakaba barimo bari muri siporo kugira ngo babashe kunanura umubiri wabo, bityo babashe kugira ubuzima bwiza.

Umupapa n'umwana we bari gukina umupira wa Basket bakaba bose bari mu kibuga aho bari kugenda bakina umwana akaba ariwe ufite umupira.

Abaturage benshi kandi bari mu kigero gitandukanye, aho baje mu nama iri kubera munsi y'igiti kinini cyane, bakaba bicaye barebana, barimo baganira ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu babiri, bafashe umusaza, bakaba barimo kumuhagurutsa kugira ngo agende neza, bakaba bari kumutwara buhoro buhoro kugira ngo bamurinde kuba yakwitura hasi.

Umupapa wagiye kwa muganga, akaba ari gufashwa n'umuforomokazi, barimo baganira, ubona ko bose bishimye.

Abakecuru babiri bari muri siporo, bakaba bambaye imyenda ya siporo bose bari kumwe, bakaba bari kugenda bazunguza amaboko yabo hirya no hino, kugira ngo umubiri wabo umererwe neza.

Umumama yicaye hasi. Aho yicaye ku mukeka akaba arimo gukora siporo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ubashe gukomeza kumererwa neza.

Umuntu uri koza umusaza umubiri wose akoresheje amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo amurinde umwanda n'indwara zishobora kwanduzwa na wo.

Abakecuru babiri bari kumwe, aho umwe ari kunywa imiti yandikiwe na muganga, mu gihe undi ari kumusomera ku gipapuro iyo afata ku munsi kugira ngo atayirenza.

Umuma uri kumwe n'umukecuru, akaba arimo kumutoza uburyo azaza bakoramo siporo, arambuye amaboko kandi neza kugira ngo ananure umubiri we.

Icyapa cyanditseho uburyo bwo kwirinda Corona virus, harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi ndetse n'ibindi.

Isomo ryo kwirinda imibonano mpuzabitsina, hamwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nka rimwe mu isomo rishirwa mu myaka igiye itandukanye kugira ngo barinde abana kwishora muri iki cyago.

Umumama ufite mikoro, akaba ari kugeza ikiganiro ku bantu bitabiriye inama, agenda ababwira ku bijyanye n'ubuzima.

Ababyeyi baje ku bitaro mu nama, bose bakaba bicaye batonze umurongo, ubona ko ari aba mama bakuze.

Abantu baje kwa muganga, aho bicaye imbere y'abaganga bari kubafasha, bose bambaye udupfukamunwa ndetse bari kubwira muganga ibibazo byabo kugira ngo abafashe.

Umuntu uri kwa muganga akaba yambaye agapfukamunwa ndetse na muganga amwicaye imbere nawe akaba akambaye, aho ari kumutera urushinge rwa Corona Virus kugira ngo amurinde kuzayandura.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'abaturage aho bari kugirana inama ku bijyanye n'ubuzima.

Abamansera batatu aho bahagararanye na Minisitiri w'Ubuzima, bakaba bose bari kumusuhuza.

Abayobozi bo muri minisiteri y'ubuzima bagera muri bane, aho bari kwifotoza bose, bari kumwe, bahagaze imbere, ubona ko bose ari abantu basa neza.

Abantu babiri baje kwa muganga, aho umwe ari mu kagare, undi akaba ari inyuma ye ari kumusunika.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, harimo imashini ndetse n'utundi dukoresho dufasha muganga mu kuvura umurwayi mu buryo bunoze.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga, akaba ari kumuhereza umuganga kugira ngo amufate amusuzume arebe indwara arwaye bityo abashe kuba yamwitaho no kumuha ibinini byamufasha.

Igitanda cyo kwa muganga basuzumiraho umurwayi, imbere yacyo hakaba hari n'utundi dukoresho twinshi twifashisha na muganga kugira ngo avure neza.

Umuganga urikureba mu mashini indwara ifata urutirigongo hamwe n'uburyo yavura izo ndwara.

Ububiko bw'imiti yo kwa muganga, aho imiti yose ibitswe neza ndetse no ku buryo bwiza ku buryo nta kintu cyaza ngo kiyihungabanye.

Ibitaro byubatse mu buryo bwiza, aho hari abantu benshi baje babigana bo mu kigero kigiye gitandukanye, harimo nk'abana, abamama, abapapa ndetse n'abandi.

Ibiro by'ibitaro bya Kabgayi, hari ibitaro byubatse ku buryo bwiza, bifite ibiti ndetse n'ibindi bintu biteyemo, kikaba gifite kandi n'aho binjira hariho icyapa cy'ibyo bitaro.

Ibitanda byo kwa muganga, aho biba bishashe neza, biriho uburingiti n'ibindi bikoresho byiza, hakaba haba hariho kandi n'inzitiramubu yifashishwa kugira ngo harindwe imibu ishobora kwangiza abarwayi cyangwa kubanduza indwara zitandukanye.

Ibitaro bikuru bya Ruhengeri, biboneka mu karere ka Musanze, bikaba bivura indwara nyinshi kandi zitandukanye, harimo nk'iz'umutima, izo mu nda, uruhu ndetse n'izindi.

Mu bitaro aho hari umurwayi w'umukobwa urwariyemo, imbere ye hakaba hahagaze abaganga babiri barimo kumufasha kugira ngo barebe ko yakira.

Umwana ukiri muto usa nkaho ari umunyeshuri, aho yagiye kwa muganga, muganga akaba ari kumupima kugira ngo arebe umuvuduko w'amaraso ye bityo abashe kumuha imiti yo kumufasha.

Ibitaro byubatse ku buryo bwiza, bikaba bifite ubusitani ndetse n'ibiti biteye hafi y'ibyo bitaro akaba ari byo bibiha amahumbezi.

Umuganga ufite utwuma tumufasha gupima umurwayi, mu kureba umuriro cyangwa umuvuduko w'amaraso ye, aho adufite mu ijosi, akaba yambaye amadarubindi ndetse afite na telefone mu ntoki.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, aho cyubatse ku buryo bwiza bwa etaje, kikaba gifite ubusitani bwiza imbere yacyo, ndetse n'indabo zigikikije.

Umuganga wambaye itaburiya, agapfukamunwa ndetse n'ishashi yabugenewe, aho ari kureba muri mashini, ibisubizo by'umurwayi.

Abagabo benshi, bose bambaye udushati tw'umweru, bakaba bafite n'udupaniya mu ntoki, barimo kwerekera kuri farumasi.

Farumasi ibamo imiti myinshi kandi itandukanye, akaba ari farumasi yubatse ku muhanda ndetse yubatse neza ubona ko ari nziza cyane.

Ibitaro bivura indwara zitandukanye, bikaba byubatse mu buryo bwiza bwa etaje, aho bifite amatara abimurikira nko mu nda ndetse no mu mpande ndetse na jaride nziza iteyemo umucaca ndetse n'indabo ku ruhande.

Icyumba cyo ku bitaro babagiramo abarwayi batandukanye, haba abakoze impanuka, ab'ibibyimba, ab'inda ndetse n'abandi.

Ibitaro byubatse neza, bifitemo amatara, parafo nziza cyane, amarangi ndetse n'ubundi bwiza butandukanye.

Ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima, aho cyifashishwa mu gukora imiti y'ibyorezo bigiye bitandukanye no gushakisha uburyo ibyo byorezo byakirindwa.

Ibyumba byo kwa muganga biba bimeze neza birimo ibitanda byiza ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa na muganga iyo ari kuvura abarwayi.

Ibyumba byiza byo mu bitaro, aho bikoze neza hakaba harimo amatara, amarangi meza, intebe zigiye zitandukanye zifashishwa n'abarwayi ndetse n'abaganga n'ibindi bikoresho bya ngombwa.

Icyumba cyo ku bitaro kirimo igitanda kijyamaho abarwayi, hakaba harimo kandi n'imashini yifashishwa na muganga mu gihe arimo kuvura abarwayi.

Abaganga bari ku bitaro, bakaba bari mu kazi kabo bagenda bavangura imiti itandukanye, kugira ngo baze kuyikoresha imeze neza.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa mu buvuzi, haba mu gusuzuma abarwayi, kubabaga ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye.

Ibikoresho bigezweho, bikoreshwa kwa muganga, hakaba harimo imashini z'ubwoko butandukanye ndetse n'utundi dukoresho twinshi, dufasha muganga mu gukora akazi ke neza.

Ibitaro by'aho abamama babyarira, akaba ari bitaro byifashishwa iyo umumama agiye kubyara, hakaba hari abagabo babiri bari imbere y'ibyo bitaro, bakaba bari kwitambukira.

Igitanda cyo kwa muganga, gishashe neza, akaba iruhande rwacyo hariho imashini ikoreshwa n'abaganga mu gihe bavura umurwayi.

Ibitaro byubatse ku buryo bwiza, aho bifite ubusitani bwiza ndetse n'indabo nziza, bikaba bifite ndetse kandi n'ibiti by'umukindo ndetse n'ibindi by'ubundi bwoko biteye muri ibyo bitaro, bikaba bibiha amahumbezi.

Ibitanda byo kwa muganga biba bisheshe neza ndetse no ku buryo bwiza, imbere yabyo hakaba haba hari n'ibindi bintu byinshi bifasha umurwayi.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge aho byubatse neza ndetse no ku buryo bwizaza, imbere yabyo hakaba hari indabyo nyinshi zihatatse ku buryo zihagira neza cyane.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, aho kiriho abantu benshi baje bakigana, ku muryango wacyo kandi hakaba hari umunyegare uhetse umuntu ufite indobo mu ntoki, usa nk'aho na we aje kuri icyo kigo Nderabuzima.

Ibiro by'ikigo nderabuzima cya Shagasha aho cyubatswe neza mu buryo bwiza, ubona ko gifite isuku giteye amarange meza, mbere yacyo hakaba hari abantu bane bahicaye harimo umupapa, umumama ndetse n'abana babiri.

Abaganga bari kwifotoza bari hamwe, hakaba harimo umupapa umwe, ndetse n'abamama bane, aho bose ubona ko bishimiye kwifotoza.

Abapapa babiri barwariye mu bitaro aho imbere yabo hariho abaganga bari kubitaho kugira ngo babashe gukira vuba.

Icyumba cyo mu bitaro, kikaba kirimo umudendezo ndetse n'umutuzo, amarido meza, ibitanda byiza ndetse bikoze no ku buryo bwiza.

Ibitaro byubatse ku buryo bwiza aho bifite isakaro ry'umutuku, jaride nziza n'indabo ziteye ku ruhande, bikaba bifite kandi n'inzira irimo amapave.

Abaganga bagera muri batanu, aho bari mucyumba bose bakaba bari kureba mu mashini, isa nkaho ari isuzuma bari gukoreramo cyangwa ibisubizo bari kureba muri iyo mashini by'umurwayi runaka.

Abasekirite aho barinze imodoka ndetse n'abantu binjira mu kigo nderabuzima, hakaba hari igiti gitambitse mu muhanda unyurwamo n'abandi ndetse n'imodoka, aho bagikuraho cyangwa bakakizamura mu gihe hari uwo bashaka ko atambuka.

Farumasi irimo imiti myinshi kandi itandukanye, ivura kandi indwara zigiye zitandukanye, ikaba itondetse ku buryo bwiza ndetse ubona ko bunoze ku buryo idashobora kwangirika.

Abantu bakora siporo yo gutwara amagare, aho baba bambaye ibikoresho bibarinda kwangirika mu gihe bakoze impanuka.

Umupapa wari uri muri siporo akaba yambaye imyenda ya siporo, igizwe n'agapantaro k'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, afite amazi mu ntoki akaba ari kuyanywa kugira ngo aruhuke.

Umuntu urimo yikanda, akoresheje agatambaro kabugenewe, akaba arimo yikanda ahagana mu nkokora, bisa nkaho yakomeretse bityo akaba ashaka ko yongera kumera neza.

Ibikoresho bikoreshwa muri siporo harimo nka pomade harimo ga, harimo amavuta agenda asigwa ku muntu ugiye muri siporo cyangwa asigwa ahantu hakomeretse ndetse n'ibindi byinshi.

Umuntu uryamye ku gatanda aho ari kumwe n'undi arimo agenda amukoresha siporo z'amaguru kugira ngo ananuke amaguru ye ndetse n'umugongo.

Umuntu ubyutse ku buriri, akaba arimo kwinanura ananura amaboko ye ndetse n'amaguru kugira ngo abashe kujya mu mirimo.

Umuntu wavunitse ukuguru arimo gukora siporo ndetse akaba yavunitse hagati mu kirenge hakaba hatumbye.

Umuntu wakomeretse ukuguru bakaba bamusizeho igipfuko kugira ngo abashe gukira neza kandi vuba.

Umuntu uri gukora siporo ananura amaboko ye ndetse n'umugongo we, kugira ngo umubiri ukomeze kumererwa neza.

Abantu babiri bateruye umuntu umwe bisa nkaho yari arimo gukina akaba avunitse, bakaba bamuteruye kugira ngo bamujyane kwa muganga avurwe.

Abantu bari muri siporo, aho bari muri stage bagenda biruka bazenguruka stage, kugira ngo umubiri wabo umere neza, babashe kunanura ingingo z'umubiri wabo.

Umuti wifashishwa muri siporo kugira ngo urinde ububabare umuntu wavunitse bityo abashe gukomeza gukora siporo ye neza.

Bimwe mu bintu warya kugira ngo ugire ubuzima bwiza nk'igi, inkeri, umuneke, imbuto zitandukanye, inyama ndetse n'ibindi, ibi kandi kugira ngo bigufashe ukaba ugomba no gukora siporo buri munsi.

Igikoresho cyifashishwa muri siporo, iyo umuntu ari gukina, akaba acyambara ku kaguru kugira ngo kimurinde imvune, bityo ahore ameze neza, ni igikoresho iyo umuntu yambaye kimurinda ko umuntu wese umukubise ku kaguru adakomereka cyane.

Abana benshi bari mu kibuga, bakaba bose batonze umurongo kandi harimo n'umwarimu uri kubatoza, bisa nk'aho bari muri siporo.

Umusore uri kunywa amazi araramye, akaba ari kuyanywa vuba vuba kandi yambaye imyenda ya siporo, ubona ko yari ari muri siporo.

Umusore uri muri siporo, akaba yambaye inkweto za siporo, agakabutura k'umukara ndetse n'agapira k'umukara bya siporo, akaba arimo akora udupompaje.

Umu papa uri muri siporo, aho ari kunyonga aka gare gatoya akoresheje akaguru kamwe, amaboko ye abiri ari imbere akaba yunamye.

Udukoresho twifashishwa na muganga iyo ari gupima ubushyuhe bw'umurwayi cyangwa umuvuduko we w'amaraso kugira ngo amenye indwara arwaye.

Umuntu uri kunwa amazi. Akaba yambaye agapira k'umutuku. Akaba kandi yambaye na kuteri mu matwi arimo yiyumvira uturirimbo.

Imiti igiye itandukanye, ikaba yifashishwa muri siporo kugira ngo ukora siporo imurinde kunanirwa, cyangwa imuvure ibikomere mu gihe yakomeretse, akaba ari imiti y'ubwoko butandukanye, harimo iri mu ducupa, mu mashashi, ndetse n'iyindi.

Umuntu uri muri siporo akaba ari kugorora amaboko ye ndetse n'umugongo we kugira ngo bibashe gukora neza.

Umuntu uri muri siporo akaba kandi ahagaze ari kunywa amazi kugira ngo aruhuke kandi amufashe bityo abashe gukomeza ameze neza.

Umuntu wakomeretse arimo gukina, aba baganga baje kumufasha bamushyiraho pomande n'indi miti ishobora kumufasha kugira ngo amererwe neza, bityo abashe kuba yakomeza gukina.

Abana bari mu myidagaduro aho bose barimo kureba hejuru, bishimye hakaba harimo umwe uri no kwiterera hejuru ndetse n'umupapa uri gukoma amashyi, bisa nkaho hari icyo bari kureba hejuru.

Umuntu wambaye inkweto ndetse n'imyenda ya siporo, akaba yicaye hasi ari kunanura amaguru, amaboko ndetse n'umugongo we.

Abantu babiri bari kumwe, harimo umwe wicaye n'undi uhagaze, bombi bakaba bafite ibikapu bisa nkaho bavuye muri siporo.

Umuntu uri muri siporo, aho yicaye ku gakeka, yambaye imyenda ya siporo, akaba agenda yikanda mu mugongo, mu bitugu ndetse n'ahandi ndetse n'ingingo ze kugira ngo abone kumererwa neza.

Umupapa uri gukora siporo, akaba yambaye ipantaro ya siporo, isengeri ya siporo ndetse n'inkweto za siporo, akaba yambaye kandi na kuteri arimo yumva indirimbo.

Umuntu wambaye bimwe mu bikoresho byifashishwa muri siporo byitwa ga, ikaba ikoreshwa n'umunyezamu kugira ngo abashe gufata umupira neza, mu mukino w'amaguru.

Ibintu by'ingenzi umuntu ashobora gufata kugira ngo abashe gukora siporo neza, nk'iimboga, imbuto ndetse n'ibindi bintu bishobora kumwongerera intungamubiri, mu mubiri we.

Umugabo uri kunywa amazi, akaba yari ari muri siporo, yambaye agapira k'umukara kandi akaba yiteye n'igitambaro ku rutugu, bisa nkaho yari arushye, akaba ari kunywa amazi kugira ngo agarure akabaraga.

Abana benshi bari mu kibuga, bakaba bose bambaye inifomo ndetse n'inkweto za siporo, bakaba barimo bakina umupira w'amaboko, imbere yabo hari abafana baje kureba umupira.

Abamama babiri bari muri siporo, bakaba bambaye amasengeri ya siporo ndetse n'udukabutura twa siporo, buri wese afite icupa ririmo amazi mu ntoki kugira ngo naruha aze gusomaho.

Umuntu uri kwikanda ku kuboko, akoresheje agatambaro keza ndetse n'amazi, bisa nk'aho yavunitse ukuboko, akaba ari kwikanda kugira ngo amererwe neza.

Umumama uhagaze imbere y'ikiyaga, akaba yambaye imyenda yo kogeramo ndetse azamuye n'amaboko hejuru bisa nk'aho agiye kwiterera mu mazi.

Umuntu uri kwa muganga, akaba yakomeretse ari muri siporo bityo akaba ari kwitabwaho na muganga, amushyiraho igipfuku, ku kuguru yakomeretse ndetse n'ubundi bufasha kugira ngo amererwe neza.

Umurwayi wakomeretse ari muri siporo, bakaba bamuzanye kwa muganga kugira ngo amwiteho, aho muganga ari kumwitaho akoresheje utwuma twabugenewe kugira ngo uwo murwayi abashe kumererwa neza.

Umuntu wambaye agapira k'ubururu, akaba ahagaze ari kunywa amazi asa nk'aho yarari muri siporo akaba ari kuruhuka kugira ngo akomeze mukanya.

Umuntu ufashe amazi mu ntoki, ni amazi ari mu icupa ry'umweru, ubona ko ari meza cyane kandi ari no mu kantu keza.

Bimwe mu bintu biba bikenewe mu mubiri w'umuntu, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, hakaba harimo nk'utubuto, inkeri, umuneke, igi, umugati, ndetse n'ibindi byinshi.

Abantu bitabiriye igikorwa cyo gutera ndetse no kwita ku bikakarubamba nka kimwe mu giti kivamo imiti gakondo ndetse n'imiti yo kwa muganga myinshi cyane.

Imiti ituruka ku byatsi gakondo cyane cyane igikakarubamba ndetse n'ibindi aho bifatwa bigatunganywa mu buryo bwiza bityo bikaba byakifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Umuravumba kimwe, igiti gakondo kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hariho nk'indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, umutwe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye nyinshi cyane.

Umuti gakondo w'ibyatsi bafashe bakabisya hakavamo agafu keza ndetse kanoze kakaba kari ku rupapuro umuntu agafashe, aho gashobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'iz'uruhu, izo mu nda, ndetse n'izindi nyinshi.

Igikakarubamba kiri gukura neza, kikaba kibyibushye kandi gitoshye, akaba kandi ari igiti kivamo indwara nyinshi ,zitandukanye.

Imiti ivura indwara zitandukanye akaba ari imiti ikorwa mu buki, mu bihwagari ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Tungurusumu, nka bimwe mu bihingwa bivura indwara zigiye zitandukanye, binyuze mu kuba umuntu yazisekurira mu biryo, cyangwa akazirya zonyine.

Ibintu bivamo imiti gakondo igikakarubamba ndetse n'ibindi, aho bishobora kandi gukamurwa havanwamo imiti ishobora kwifashishwa kwa muganga ndetse n'ahandi, ivura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo igizwe n'ibintu bitandukanye harimo imbuto, uduti n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye twifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane cyane izananiwe abaganga rusange.

Umuntu urimo gusekura imiti gakondo mu gasekuru kabugenewe ndetse akoresheje n'umuhini wabugenewe kugira ngo iyo miti ize kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti irimo udukombe tugiye dutandukanye ndetse tw'amabara atandukanye aho ituruka mu byatsi gakondo, igatunganywa binyuze mu mashini zabugenewe bityo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti itandukanye ikaba kandi irimo udukoresho tugiye dutandukanye, harimo utw'umweru, utw'icyatsi, utw'umuhondo ndetse n'utundi, ikaba ari imiti igenda ituruka mu byatsi byinshi kandi bitandukanye ndetse n'ibimera.

Abantu barimo batembera, bakaba baje kureba ahantu hari isumo ry'amazi, aho amazi aturuka hejuru ku mukingo yitura mu gicokomo ahantu harehare cyane.

Farumasi irimo imiti gakondo, akaba ari imiti myinshi igiye itandukanye, ikaba ipanze muri iyo farumasi ku buryo bwiza, aho mu nda harimo umugabo w'umuyisilamu uhagazemo, akaba ari farumasi nziza.

Imiti gakondo yatunganyijwe igashyirwa mu bucupa bwabugenewe, ikaba kandi ibitse na ahantu heza ku buryo nta n'ikintu gishobora kuyangiza.

Imiti gakondo ituruka mu byatsi bigiye bitandukanye, aho bifatwa bigasekurwa mu gasekuru kabugenewe bigakamurwa, amazi yabyo akaba yashyirwa mu gakoresho kabugenewe.

Imiti ituruka mu byatsi gakondo, aho itunganywa neza, igakamurwa cyangwa hagakoreshwa ubundi buryo bityo ikabuganizwa mu macupa yabugenewe, ku buryo ishobora kuvura indwara zitandukanye kandi ikaba ishobora no kuramba.

Ibyatsi gakondo bigiye bitandukanye aho bifatwa bigakurwamo imiti ishobora gukoreshwa kwa muganga mu kuvura indwara nyinshi.

Umuravumba, kimwe mu cyatsi kivura indwara nyinshi binyuze mu kugifata, umuntu akaba yagishyushya mu mazi bityo akifashisha ayo mazi, ayanywa cyangwa ayikandisha ahantu ababara bityo akaba ashobora gukira.

Imiti gakondo itandukanye harimo ikorwa mu mbuto, ibinyampeke, ibyatsi, ibinyamafufu ndetse n'ibindi kandi ikaba ishobora kuvura indwara nyinshi.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, harimo ibyakuze cyane, bikora buhoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba harimo kandi n'ibishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi bifatwa bigasekurwa mu gasekuru kabugenewe ndetse n'umuhini, hanyuma bikaza kwifashishwa bivura indwara zitandukanye.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, uburiya ndetse n'ingofero mu mutwe y'ishashi y'abaganga, akaba arimo agenda atunganya imiti, kugira ngo aze kuyikoresha mu kanya, imeze neza.

Ibintu bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo ibinyampeke, imbuto, ibinyamisogwe, ibibabi ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi gakondo, akaba ari ubuvuzi bwahozeho kera, aho aba ari ho ibicuma bitandukanye udukono, utuzu dukozwe mu byatsi, ndetse n'ibindi bintu byinshi bya kinyarwanda.